Gutera umuti imyaka ni kimwe mu bintu byatuma yera neza, kandi ikagira n'umusaruro ufatika ku bayiteye. Bityo rero tugomba gutera imyaka umuti.

Roketi ni kimwe mu miti yifashishwa mu kwica udusimba, cyangwa gukoreshwa mu kuvura ibihingwa byatatswe n'uburwayi butandukanye.

Ipaki ifunzemo umuti wo gukoreshwa, cyangwa se ishobora kuba ifunzemo n'amajyani yo guteka icyayi.

Ugo ni umuti gwo gwakorewe mu nganda, bashobora kuba bagukoreshaga mu buhinzi niko nje mbibona.

Uwo ni numuti witwa nitorogeni, ariko ushobora kuba ukoreshwa mu guhinga, mu guhura ibigori cyangwa se mu bimera muri rusange.

Gogo ni umuti go gutera gwitwa adiya foru girini magisi hamuboyidi. Gushobora kuba gukoreshwaga mu gufumbira ibimera cangwa kubyica kubyicira udusimba.

Abantu kera bateraga bakoresheje imborera, niyo mpamvu n'aba bashobora kuba bari gutindura iyi mborera, kugira ngo bazateze imyaka yabo.

Guhinga ni byiza kubera ko byongeraga iterambere mu baturarwanda. Ugo ni umuti guri guterwa imyaka kugira ngo imyaka izere neza kandi n'abacuruzaga babone ibyo bahaha.

Indagara ni kimwe mu biryo abantu baryaga kikarinda abana kurwara bwaki kandi ziraryohaga pe! Uwabivuga ntabwo yaba abe...

Ibyuzi byororerwamo amafi, bikunze kuboneka mu turere twa Burera n’utw’amajyepfo. Aho hantu hakunze kuba haboneka ibiyaga, hanyuma hagatanga umusaruro.

Izo ni indagara zibamo intungamubiri zitungaga abantu mu byerekeranye n'imirire. Iyo uziriye ntabwo urwaraga bwaki, cangwa ngo ugire ikibazo ca poroteyine.

Amafi yororwa akunze kugurishwa mu mijyi, usibye ko n'abanyacyaro iyo bagiye mu mujyi barayahaha, bakayateka, bakayarya aryoshye.

Ndabona ari ibiribwa batetse birimo imboga n'amaronji, cangwa umugati gusa nk'ugukase gurimo n'ibiru...

Ikiraro cy'inkwavu cyubatse mu bizenga by'amazi bororeramo amafi, kugira ngo yororoke atange umusaruro mwinshi.

Amafi yo ni ikiribwa gikunzwe ariko gihenze, ku buryo umuntu wo ku rwego rwo hasi atashobora kuyigondera, kubera ko bimusaba ku mufuka.

Isosi irimo imboga n'inyama, bashaka kubiteka kubera ko birimo intungamubiri zitunga ubuzima bwacu, kugira ngo tubashe kubonamo poroteyine.

Ibiryo bitekwa mu mahoteli adukikije ari mu Kinigi, bishobora kuba ibiryo by'amoko atandukanye, bitewe n'ibyo umukiriya yifuje.

Amafi yabuze amazi ahita apfa, kubera ko iyo abonye amazi, amafi yose yose ashobora kongera kuzuka akaba meza, naho iyo yabuze amazi yose ahita apfa yose yose.

Amafi rwose ara ryoha, ifi ni itungo ,ni inyama bakura mu mazi, ariko ziraryoha, kubera ko zigira n'intungamubiri zitunga abantu bakabaho neza.

Inzu zubatse, zimeze nk'ubwanikiro bw'amafi, cyangwa indagara zarobwe muri ayo mazi akikije aho ngaho mu kiyaga.

Aho baroba amafi mu byuzi byakozwe n'abantu, ahenshi bakunze gusanga ba bororeramo amafi, akororoka kandi akabyara n'ayandi menshi.

Amafi abitse mu munyu wabugenewe wo ku zikonjesha kugira ngo adapfa. Niyo mpamvu iyo umuntu aguze ifi ikiri nto, icyo gihe agomba gushaka uko ayibika muri mbarafu.

Ugu ni umucaca cangwa se ikibara caraye batari bahinga, gishobora rero kuba caragize ibyatsi byinshi birengutseho, bakaba bategereje kugihinga.

Umubirizi ni kimwe mu byatsi byakoraga akazi keza cyane. Koza ibibindi se, kuvura amatungo, kuvura abantu, gukoreshwa ku mirima nk'imbago, inzitiro n'ibindi.

Ibirayi bihinzwe mu murima wavuyemo ibigori, ariko hagati hagiye habamo iteke rimwe rimwe, ku ruhande hazitije ibidariya haruguru, n'inturusu hepfo imwe n'imwe.

Igitari cy'intusi za nyiramweru cyegereye umurima w'ikijerijeri cyangwa se ikigorigori kuko urabona ko havuyemo amajeri cyangwa ibigori.

Intoki zose zigomba kuvamo inzoga y'urwagwa. Abanyarwanda bakarutaramiraho igihe bari gutaha cangwa bari mu birori bitandukanye baheyeho izizaga.

Umurima wa karoti urera, wamara kwera ukavarura nyirawo. Ariko nanone, umurima wa karoti iyo warumbye, uriza nyirawo ku buryo abura n’ibyo yawukoza, ahubwo akigunga.

Abanyarwanda bahingaga imitabo, bahingaga imitabo birumvikana ni mu majaruguru aha ndi kubona wagira ngo ni mu karere kacu ka Musanze, bahingaga ibitunguru n'ibitoki byose ni ibiryo turyaga.

Ibiryo ni byinshi. Si amasaka gusa cyangwa ibigori, cyangwa ibishyimbo, cyangwa ibirayi, ahubwo n'ikidodoki kiba kiri ku ruzitiro mu giko, nta bwo tukinyanyayagaraho kubera ko gitanga imboga.

Insina ni kimwe mu bintu bifite agaciro kuberako insina ivamo urwagwa, ivamo imineke, itekwamo igitoke, mbese ifite akamaro.

Imirima yo mu ntara y'Amajyaruguru, ikunze kuba ikikijwe n'ibidariya. Ibidariya iyo bimaze gukura biracibwa bakabisongoramo imishingiriro, yo gushingiriza ibishyimbo.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro ni bumwe mu buhinzi bugezweho. Kubera ko butanga amafaranga ku bantu benshi kandi vuba. Amafaranga menshi asobanutse.

Umurima w'amajeri weramo amajeri aryoshye y'urunyogwe, abantu barayakunda cyane. Iyo bayatekanye n'ibirayi biraryoha.

Umurima w'amajeri, uri mu gace k'icyaro, icyo cyaro gisa n'ikitagira umuriro, kuberako aho amapoto ashinze nta nsinga zihanyuze.

Inyinya ni kimwe mu giti cyera imbuto zisharira. Gikunze gukiza indwara yitwa umuvuduko, kikawugabanya ku kigero kigenwe kubera ubwo busharire.

Umurima w'ibirayi wegereye igitari, igitari kiri kuwukingiriza, ubundi iyo igitari gikingirije umurima ntabwo wera neza, birasaba kugira ngo umuntu ugiye guhinga, amanze ahinge arebye ko bizabona ubuhumekero.

Ikigorigori ni ahantu hamaze gusarurwa imyaka ,urugero twavuga nk'ibigori, aho bivuye bahita ikigorigori ,kandi icyo kigorigori iyo bahinzemo ibirayi ,birera cyane.

Ikijerijeri ni ikibara kivuyemo amajeri, kandi amajeri ni ikiribwa gikundwa cyane n'abantu batandukanye, umuntu akunda kubona mu majyaruguru.

Umurima wavuyemo iyi myumbati ukunze kuboneka mu gace k'amajyepfo, naho mu majyaruguru ntabwo wahera kubera ubukonje.

Ugu ni umurima w'icyayi cangwa ibirayi, umugore awunamyemo abagara cangwa asarura.

Uyu ni umurima w'urusenda, uba ugezweho iyo abantu bawusaruye uvamo amafaranga, bakayajyana kuyaguramo ibindi bintu bitandukanye bibungura.

Iyi ni sitoke irimo imifuka wagira ngo ni iz'umuceri, bahunikamo imyaka cyangwa se akaba ari inzu y'ubucuruzi, ni ko njye mbibona, cyangwa se ni ububiko.

Amahene ya kijambere akunze kuba ari maremare cyangwa se afite n'amatwi maremare. Uyagezeho, ugiraga ngo ni inyana y'inka.

Abacuruzi bacuruza ibisheke, akenshi bakunze gutezwa imbere n'abana bato cyane cyane, kubera ko bakunda kubihekenya bakavanamo ubwo buryoherere bumva.

Voka ni imbuto nziza cyane zivamo amavuta, cyangwa se abantu bakazirya bazirishije ibiryo bindi, ukumva biryoshe cyane.

Ibigori ni igihingwa cyera mu karere kacu ka Musanze , kandi ukaba wabona ikigori kimwe kingana n'ukuboko, mbese mu yandi magambo ikigori kiba cyarahetse ibindi bibiri byiza.

Gutera igiti icyo aricyo cyose cyaba icy'itunda, cyaba igiti cyo kuzasarura Leta yacu ibyemera cyane kubera ko cyongera ubuzima bwiza.

Ubu ni uburo bukoreshwaga mu gushigisha igikoma cangwa se kurya umutsima gwa kinyarwanda kandi uburo ni kimwe mu binyampeke byeraga kera ariko ubungubu ni hake bihingwa.

Ndabona umukecuru uhetse isuka ku rutugu agiye guhinga. Aha bagiye guhinga ndabona bahingaga ibigori, ni mu caro.

Umurima uhinzwemo ibiti. Ibiti bikoreshwa cyane kandi bikaba bihinzwe ku buso bugari cyane.

umwumbati ni kimwe mu biribwa bikundwa n'abantu benshi. kubera ko itera imbaraga, abayirya bose bagaseka kandi bakishima, ariko bagasomeza n'akantu ko kunwa.

Abantu baje gufata ingemwe za avoka nangwa iz'ibiti, baza bishimye, kubera ko umunsi igiti bagiye gutera, kizera cyangwa se kizarinda ubutaka bwabo isuri.

Ibijumba ni imbuto nziza, ishobora kuribwa mu buryo butandukanye. Ushobora kubyotsa, ushobora kubiiteka, ushobora no kuruhekenya ikijumba kiba kiri kuryoherera.

Abana baragira bitwa abashumba, abo bashumba akenshi bakunze kuba ari abahungu bavuye mu ishuri, nubwo uwo mwana we yaba yagiye kunwayo amata.

Umufuka w'ibirayi wa kiro jana ni kimwe mu gikoresho kibika neza imyaka y'ibirayi bamaze gusarura. Abakera barasaruraga bagakoresha ibisero none ubu igikoresho kigezweho ni umufuka.

Inka za kijyambere zigezweho. Zitandukanye n'iza kera, kuko iza kera nta mukamo zagaragazaga, kubera ko zari na ntoya.

Umurima w’ibigori biciye ingingo, uba uteye apeti nyinshi cyane, kubera ko uba utanga icyizere cy’umusaruro uzakomoka aho ngaho.

Girini hawuzi ni inzu imwe yeramo ibirayi ku buryo butewe mu ikoranabuhanga, urabona ko umuntu iyo akoresheje iyi girini hawuzi, igenda imwungura.

Ubuhinzi n' ubworozi ni kimwe mu bintu bikundwa, abantu bafata imbuto z'amavoka bakazitera, zikera abandi bazajya bararya mu minsi iri imbere.

Wotameroni ni igihingwa kigira amazi menshi muri cyo, kandi ayo mazi ni ayongera intungamubiri z'umuntu iyo ayiriye.

Aba bantu bavuye gusarura icayi kandi icayi c'u Rwanda ni co tunywaga tukumva dushushe, kikaduha n'umunezero, n'abanyamahanga baracishimiraga.

Uyu munsi n'iyi saha nkubwira, ikintu cyitwa imbuto gihagaze bwuma, kihagazeho cyane kubera ko gikunzwe, kandi ni kimwe mu bintu bitegetswe gushyirwa mu mafunguro.

Umuco wo kumisha ibigori bikazahungurirwa icyarimwe bimaze kuma. Ni umuco wafashwe n'abanyarwanda benshi, ku buryo bagerageza guhuriza hamwe umusaruro ugatubuka.

Imboga zituruka mu bintu byinshi, ariko izi pavuro zikorwamo isosi iryoshe cyane, iribwa abantu bakishima.

Umugore wicaye, arimo gusoroma imboga zo guteka, kandi imboga rwatsi ni zimwe mu mboga ziryoha.

Ibirayi byiza bya Kinigi ni ibirayi bikundwa n'uwariwe wese, kubera ko biryoha cyane, iyo ubitetse, byaba amaganda, byaba ubitetsemo ifiriti, byose biryoshe.

Uwo ni umuhinzi mbona uhagaze hagati y'amatundanda. Ago matunda gararyohaga bagita amarozi, bagahingaga ahantu gakwera gakaba umukara.

Amatunda yitwa marozi yera ari kurandaranda ku biti, cyangwa se bakayazirika imigozi yo gutondagiraho kugeza igihe agiriye imiteja. Yamara kwera, ikaba umutuku.

Abantu benshi barya Wotameloni kugirango bagire amazi menshi ariko, ibi ni itunda rikundwa n'abantu benshi cyane.

Ikinyomoro ni kimwe mu ngemwe zikundwa cyane aha iwacu, kubera ko umuntu wahinze ibinyomoro abona amafaranga atubutse cyane.

Amashu ni imboga zikundwa n'abanyarwanda benshi, kubera ko zitubuka iyo bamaze kuyakeka, kandi n 'iyo bayaketse yose yose mu mavuta ashya vuba.

Abahinzi bahinga inyanya barunguka, kubera ko inyanya n'ibiryo buri wese akenera mu buzima bwa buri munsi, ashaka kurya neza kandi mu cyubahiro.

Ahantu hatewe ingemwe z'amashu amaze gukuraho gake, hifotorezwamo n'abantu basa n'abarahira indahiro yo guhinga bakeza.

Nzi abahinzi bahinga ibirayi, bakunze kubitera ku gihe cy'imvura kandi byera neza bakabonamo amafaranga abatungira ubuzima uko umunsi ushize.

Ibitunguru ni kimwe mu biribwa bikatwamo salade , igakoreshwa mu birori bitandukanye :twavuga nk'ubukwe cyangwa indi mihango, irimo kwiyakira bakoresheje salade.

Aha ndabona bageze mu gihe c'ihinga ni sezo runaka ntamenya ngo ni iya kangahe, ariko urabona ko bari gushishura cyangwa se bakaba bari gutabira.

Abagore bo mu gace kacu iyo bagiye gukora , abenshi baba bikubitiyemo za bote , bagakora nta kibazo kubera ubutaka bwacu bunyerera.

Voka ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi cyane. Byibura iyo uri kukirisha ibiryo, kiraryoha kigatanga na peti ku rugero rwo hejuru.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bikunda kwera mu ntara yacu y'amajyaruguru, kubera ko bigaragaza umusaruro ugezweho mu buryo bwose bushoboka.

Ibigori bihinzwe ku buso bunini, bikunze guhingwa n'amasosiyete manini urugero nko muri penape cyangwa muri yesiyesi, aho ni hamwe mu hantu hahingwa ibigori byinshi.

Aga mavoka gose gasigaye gakoreshwa no mu gukora amavuta go kwisiga cane cane iyo gakiri matoto gatarakura cane.

Igihaza ni ikiribwa kiribwa cyane mu Ntara y'Amajyaruguru kubera ko kihera mu butaka bwaho, kandi kigakundwa n'abantu benshi cyane. kandi rero gifite intungamubiri zihagije, cyane cyane ku bagabo.

Ugwu murima guherereye ahantu h'icaro habonekamo n'amabuye g'amakoro, ndabona bamaze guhinga, kera bahingaga bakoresheje isuka mu makoro.

Ni ibishyimbo byiza bya kirya umukwe, ni imwe mu mbuto ikundwa n'abantu bo mu majyaruguru, kubera ko irahera cyane, kandi biraryoha cyane.

Izi ni imyumba za, z'ibishimbo se? Za tungurusumu? Ariko ni imimere zarameze zirashekemera none basa nk'aho bazinuye.

Guhinga ni ingenzi, kubera ko iyo abantu bahinga nta bwo bapfa kugira inzara, kubera ko ibyo bahinze bibagoboka cyane.

Ago ni amajeri, geraga mu butaka bwacu bw'amajaruguru cangwa se twagitaga n'urunyogwe cangwa urukamba.

Ibishanga bihingwamo umuceri, bikunda kubamo amazi menshi cyane, akagera n'aho abirengera cyane, umuceri ukarerwa wose wose.

Imyaka basharitse y'ibigori mu nzu, bashaka ko yuma vuba igashyirwa ku isoko, hakagaragara umusaruro wavuye mu buhinzi.

Igikokoriko ni kimwe mu bihingwa, bihingwa bivamo amavuta atekeshwa mu gukaranga, kandi aryoshye cyane kiboneka henshi mu gihugu.

Ibishariro ni bimwe mu bintu bikora ifumbire nziza iyo ubivanze n'amatoto y'inkoko kandi ibishariro biba byavuye mu kubaza ibiti.

Kera abagore bagosoraga bakoresheje inkoko cyangwa intara, maze ibyo bari kugosora barangiza bakabibita cyangwa bakabibika mu mitiba kugira ngo bizatunge imiryango.

Aya ni amasaka cyangwa akaba ari uburo, cyangwa se indi mbuto yo gutera. Ariko njyewe nta bwo mbizi, nta bwo ndi kubimenya neza nakekaga.

Iki ni igifuka citwa ikigunira kirimo inzuzi cangwa se ni ikawa iyo ziri kumeneka hasi.

Ibishyimbo by'intonore bikunze kuribwa mu minsi mikuru, byera cyane mu Karere kacu ka Musanze, aho usanga bari kubisuka ku nkoko hamwe n'ibirayi bakabirisha.

Imifuka yuzuye ibishimbo byasaruwe, cangwa se bashobora kuba barabihunitse muri sitoke, kugira ngo bizaribwe byumye.

Imbuto ni kimwe mu bintu bibikwa neza cyane, kandi zikazagira akamaro kanini mu gihe cy'itera cyangwa se cy'ihinga, kubera ko nta muntu utazikenera igihe agiye guhinga.

Abagore bifotoza bambaye neza , kandi bicaye n'imyaka iri imbere yabo, mbese ku buryo wakeka ko ari abacuruzi cyangwa abahinzi.

Ibigori bihingwa mu gace ko muri Burera cyangwa mu Gahunga. Bikunze kwera ari inzogera, ku buryo mbese usanga uwo musaruro uhera ushimishije cyane.

Imigondoro y'ibishyimbo imaze kurenga ubutaka. Icyo gihe abantu baba bategura ibiti byo gushingirira ibyo bishyimbo, kugira ngo bitazana urugoyi rukaba ruri gukondakonda.

Imigondoro y'ibishimbo bitewe mu murima; iyi migondoro y'ibishimbo na nubundi tuyita imimerere imimera y'ibishimbo byera iwacu mu majaruguru bikunze kuba birimo amoko kabiri umushingiriro n'ibigufi.

Imiteja iri mu dutebo, ni imiteja ya kizungu. Iraryoha cyane iyo uyitekanye n'ibindi biryo nk'umuceri, maze bikaryoha uri kubirya.

Imbuto y'ibigori yitwa murawimbwa cyangwa se nyirakinuma, isigaye yarabuze ntabwo igikunda kuboneka. Yabonekaga mu Majyaruguru ho mu kinigi, cyangwa muri Nyange cyokora ubu n'aho biri ni hake.

Umumero w'ibishyimbo. Kera iyo ibishyimbo byaterwaga, byapfupfunukaga mu butaka byose. Ukabona ntiwamenya uko biri gukura buri kanya ariko nyine byarihutaga.

Inkoko ni ubworozi bwiza. Kuko butanga umusaruro bujyanwa mu mahoteri, twavuga nk'inyama, cyangwa amagi aziturukaho. yoseyose atanga umusaruro.

Udushwi tw'inkoko turi mu kantu kabugenewe kudutwaramo, ariko isa nk'aho ari za zindi bavuga zikurira ukwezi gusa zikaba zibaye.

Inkwavu ni zimwe mu bworozi buciriritse bwungura vuba, ku buryo umuntu abona amafaranga y'ibanze yo gukoresha muri serivisi zitandukanye.

Iki ni ikigo c'ihene zororerwaga ahantu zigahabwa n'ibyatsi byo guhe kurya, kandi nyirazo ashobora kuba abonagamo amafaranga menshi.

Inkoko zororerwaga mu nzu y'ibiti, cangwa indi hirya y'urwondo bahomesheje urwondo bari kurobeka, kugira ngo zibone aho zirara ntizibwe n'ibisimba.

Ubworozi bw'inkwavu zo kurya cangwa se kororera amasoko kugira ngo abantu babashe kubona amafaranga go gukoresha mu kwiteza imbere mu iterambere ry'Igihugu.

Inka y'inyarwanda ifite amaherena ku gutwi y'ubururu, kandi isa neza. Ikamwa amata meza. Iyo abaye ikivuguto akaryoha.

Ingurube, ingurube ni itungo ryororoka vuba, rimenyerewe kubyara abana benshi icyarimwe, kandi bagakura, bagatanga umusaruro ku byerekeranye n'ifaranga.

Inka zinyura mu muhanda, ni icyaha mu mategeko y'u Rwanda, zigomba gushakirwa ikiraro zigashyirwamo hanyuma bakaziheramo ibyatsi.

Inkoko zo mu cyaro, ni zimwe mu nkoko zikunze kubona icyo zirya bitaziruhije, cyane cyane kubera ko ziba zinaraha ibitaka zibonamo ibyo zirya.

Inka za kijyambere zikunzwe kororerwa ahantu hafite isuku, nkuko leta yabitangaje ko umuco wo kubunza inka ku gasozi ntabwo wemewe . Uwemewe ni ugushyira inka mu kiraro ukayitaho.

Imfizi y'inka igiye kumera nk' inyambo. Ni igipfizi kinini cy'inka z'ubwoko bw'inyambo kibangurira izindi.

Ago mahene gari mu rugo rugari. Gashobora kuba baziritse, baragazanira ibyatsi bagiye kwahira. Kandi ntabwo kubunza inka ku gasozi byemewe no kubunza n'amahene.

Aga go ni amatungo go mu rugo. Urabona ko ni inka iri kurisha bahaye ibyatsi byo kurisha. Ishobora kuba iziritse mu kiraro kandi ni ingweba ahari. Itanga amata meza garyohaga.

Uyu mushinga wo korora inkoko mu Rwanda umaze guteza imbere abantu benshi, aya ni amasake, ni inkokokazi zitera amagi abantu bakayarya.

Inyama z'amaroti atukura aryoha cyane. Amaroti aranahenda, kandi ku isoko iyo ugezeyo usanga bari kuyarwanira, ari mu nyama zishira mbere y'izindi.

Ago ni amagi gari ku matureyi bari bageranyije begeranyije. Bagurisha kugira ngo babone amafaranga bagenzi bagenzi bacu muri rusange.

Inyoni y’umukara, ifite umusatsi mwinshi ku mutwe n’akarizo gatoya. Ariko niba yabarizwa mu misure, ndabona ifite n’umunwa usongoye.

Inyoni zikunze kubaka ibyari nk'ibingibi zikunze kuba ari inyoni ziri mu matsinda, kandi izi nyoni ziba zisa neza ku buryo zasurwa cyane.

Inyoni yitwa mushushwe, ni inyoni yakundaga kujya mu ruyange rw'ibishyimbo urugero nk'ibizungu bya bindi bita ruvuninkingi, bigahungura uruyange iri kurutaramo ubuki.

Igisiga kinini carobye ifi, citwa kagoma cangwa se gishobora kuba ari marere ariko kirakaze kubera ko igisiga kirobaga amafi, ntabwo kiba coroshe.

Uyu munwa w'iyi nyoni iyo wasanye uba mugari. Ariko abantu benshi bibaza ukuntu iwurisha kandi wo usa n'uyirenze uburebure.

Mu ishyamba hari inyoni zifukura igiti zigakoramo umwobo cyangwa se icyari. Izo nyoni zigira umunwa umeze nk'uw'icyuma usongoye cyane.

Umusuri urona cyane, ugira umunwa urambuye cyane. Iyo ururabo rw'imyaka rubonetse, umusuri urambura uriya munwa, ukagenda ugakoramo, ukaba rurahunze.

Iyi ni inyoni nkunze kuyibone ino mu majaruguru kubera ko iyi nyoni habaga igihe zigurutse ari inyoni nyinshi ziri mu matsinda menya ari ikijwangajwanga.

Igihunyira gihiga izindi nyamaswa nijoro. Gifite umuziro mu muco nyarwanda kubera ko gikungura, kandi ntigisure ibyiza.

Inyoni iri mu gishanga yahinnye umunwa mu mababa yayo, ariko buriya iri gushaka imisundwe, cyangwa utundi dukoko two kurya. Zikunze kuboneka iyo ngiyo mu gishanga.

Iyi nyoni twayitaga nyirabakiga, ni inyoni ikunda kuboneka mu gace kacu k'Amajyaruguru, ni inyoni kandi isa nkaho iri mu muryango w'ibishwi.

Urukwavu rw'urunyakigunda ni urukwavu rugira amayereri menshi cyane, iyo rwirutse ntiwapfa kurufata, kubera ko ruba aribyo rwitoza buri gihe.

Inyoni ibundikiye udushwi twazo kugirango dushyuhe kandi iyo nyoni isa nkaho ari inkoko cyangwa se dendo.

Inyoni ivuye guhahira abana bayo. Ibasanze mucyari bashaka kugira ngo ibatamike barye icyo ivuye guhiga.

Iyi ni ingagi ariko ndi kubona wagira ngo hari indi mwene wayo yayirumye mu mutwe. Ariko ubu ni ubukungu bw'igihugu bagomba kuyibungabunga, bakayivura kugira ngo ago mafaranga katazaducika g'u Rwanda.